Umuganga uri kuvura umugore, akaba yambaye udupfukantoki, akaba yambaye itaburiya y'akazi, yambaye badge ifite imigozi y'ubururu. Umuganga w'umusore.

Abagore babiri n'abana batatu umwana muto muri bo bari kumukarabya, yicaye mu ibase bari kumukarabiriza kuri robine hanze.

Icyapa kiriho ifoto y'umuyobozi ushinzwe Minisiteri y'Ubuzima, kikaba kivuga ko kurwanya Kanseri no kwirinda.

Umubyeyi ufasha umwana, umuganga akaba ari kumuywesha umuti. Umubyeyi arimo kumwenyura na muganga arimo kumwenyura, muganga yambaye itaburiya y'umweru, naho umubyeyi yambaye ikanzu idoze mu gitenge, akana kambaye agapira k'umweru.

Abantu bicaye mu nama benshi, harimwo abazungu n'abirabura. Imbere yabo hicaye abantu batandatu, abagabo batanu n'umugore umwe. Bari kubaganiriza.

Abana bane, bari ku mugezi, umwe ari gupompa kugira ngo avome, avomerere mu kibido cy'umuhondo, ariko amazi ari kumeneka hasi.

Abaganga batatu bahagaze b'abagabo, bambaye imyenda y'akazi, bafite imiti mu ntoki bambaye udupfukamunwa, bambaye n'utuntu mu mutwe.

Umukobwa wambaye ijipo usutamye uri kuvoma, akaba afite umusatsi mukeya hejuru, akaba ari guseka anezerewe, icyo ari kuvomeramo giteretse mu ibase ebyiri zigerekeranye.

Umugore urimo kuvomera mu garo, yambaye agasapo, yambaye na Lacoste, akenyeye igitenge kiri mu ibara ry'icyatsi.

Umubyeyi ukiri muto, unanutse witeze igitenge, akambara ikanzu idozwe mu gitenge, afashe akana ke mu ntoki, afite amadokima yo kwa muganga yagiye kuvuza umwana.

Umwana muto uri kuvoma amazi kuri robine, amazi ni meza ku mubiri kandi afasha abantu mu bintu bitandukanye, yaba kuyanywa no kuyateguza ibyo kurya.

Abantu batandukanye, bicaye mu nama, abagore, abagabo, abakobwa, abasore. Imbere yabo hicaye abantu batatu, bari kubaganiriza ibijyanye n'inama y'ubucuruzi.

Abana benshi batonze umuronko kuri robine, umwana umwe ari gupompa kugira ngo amazi azamuke abone uko avoma, hanyuma atware amazi n'abandi bakurikireho batonze inyuma ye.

Umubyeyi ukiri muto, uri kumwe n'akana k'agakobwa gato, kambaye agakanzu n'agapira k'ubururu, umubyeyi na we yambaye agapfukamunwa, ari kwisuzumisha, yambaye n'ikoti ry'umukara.

Umugabo wicaye hasi wambaye ipine, ufite uburwayi bwo mu mutwe, hirya yihagaze abantu bari kumushungera, bibaza ikibazo afite. Afite imisatsi myinshi asa nabi.

Umusaza wicaye akaba afite amacupa abiri y'amazi iruhande rwe, akaba asa nabi yambaye inkweto zisa nabi nkaho ari umukene, akaba ameze nk'uri gusabiriza, hirya ye hari abantu bari gutambuka abandi bicaye.

Umukobwa mutoya unanutse wicaye ahantu, akaba ahambiriwe n'ishene, yambaye agapira, akenyeye igitenge arababaye, afite kwiheba gukomeye akaba azirikiye ku giti.

Umusore wipfutse mu maso, akaba yambaye umupira w'umukara, afite umusatsi mukeya, asa n'ufite agahinda cyangwa akaba arimo kurira. Inyuma ye hari igikuta gifite ibara risa n'ivu.

Umuganga w'inzobe w'umukobwa uri kugerageza gufasha umusore ufite ubwanwa n'umusatsi mukeya, wogoshe orudinere, agiye kumurebera mu menyo ngo amufashe arebe ikibazo amenyo ye yaba afite.

Abana batoya bambaye impuzankano yo ku ishuri, bari gukoresha uburoso bw'amenyo boza amenyo, bafite ibikombe birimo amazi bitagira imikondo.

Umukobwa wirabura, unanutse, uri kwirebaba mu kirori, uri hano koza amenyo, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, akaba ari mu cyumba bakarabiramo cya dushe, yambaye isengeri y'umweru.

Umuganga n'umwana ufite ikibazo cy'amenyo, umuganga ari kugerageza kumureba mu kanwa, ngo amutere ikinya, kugira ngo ataza kubabazwa no gukurwamo amenyo mu gihe bari kugerageza kumufasha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, imashini ifasha abarwayi, igitanda, hakabamo intebe n'utubati tw'umweru.

Umusore ufite imibiri yombi uri guseka ari kwireba mu kirori, ari guhanagura amenyo ye n'akadodo yambaye ikabutura, hejuru yambaye ubusa.

Umuganga w'umugore w'umuzungu urimo kwita ku mugabo w'umwirabura ufite ikibazo mu kanwa, icyo kibazo ni icy'amenyo, akaba yambaye uturindantoki tw'ubururu, n'imyambaro y'akazi y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa uwo mugore.

Umuryango urimwo abantu batandukanye, umusaza n'umukecuru, umugore n'umugabo n'abana, umukobwa n'umuhungu, barishimye bari guseka bifotoza.

Umukobwa ukiri mutoya w'umuganga uri gusunika umusaza ku kagare k'abamugaye, inyuma yabo hicaye abantu bicaye ku meza barimo gufungura.

Umusaza n'umukecuru barimo kuganira bishimye baseka, bari gusangira ku meza, bari kurya ibyo kurya birimo imboga rwatsi, bikabamo n'ibirayi. Ku meza hariho ikirahure cy'amazi.

Umusaza n'umugabo bafatanye ku rutugu, bishimiranye bari kuganira ariko banagendana, umusaza yambaye ingofero n'isaha, naho umusore nta ngofero yambaye.

Umukecuru usa n'ukuze, ariko atari cyane, uri kumwe n'undi mugore inyuma ye ukuze, umukecuru yambaye umupira usa n'ivu, naho umugore uri inyuma ye yambaye isengeri, n'akantu k'umuhondo imbere. Bari gukora siporo.

Umusaza wicaye ku meza arimo kurya n'umugore ukuze urimo kumusukira icyo kunywa mu kirahuri umutobe, imbere yabo hari imbuto za pome n'izindi mbuto zitandukanye n'ibyo kurya.

Umusaza usa n'ushaje cyane, ufite imvi nyinshi, barimo kumukarabya, bamwicaje mu kibase kinini, arahumirije. Umuntu urimo kumukarabya aragaragara amaboko gusa.

Umuryango w'umukecuru n'umusaza bakuze, bishimye, bambaye amarinete, bari gusangira ibyo kurya birimo imboga rwatsi, bari no guseka.

Icyapa cyanditsweho, gitanga amakuru y'abantu bagomba gukingirwa mbere, n'amatsinda agomba kwitabwaho mbere y'abandi, mu gukingirwa virusi ya covid cumi n'icyenda.

Icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, cyanditsweho Minisiteri y'Ubuzima, cyanditsweho Repubulika y'u Rwanda, kiri mu ibara ry'ubururu, rikandikishwaho ibara ry'umweru.

Icyumba kitarimo umuntu, harimwo intebe zitandukanye n'agatanda. Ku gikuta hirya hashushanyije udupupe turi kuva mu isanzure, kamwe gafashe idarapo rya Amerika.

Utubati dukozwe mu byuma, turi mu cyumba cyo kwa muganga, tubikwamo ibikoresho bitandukanye, nk'ibizamini, imiti, amasabune yo guhanaguza isuku, ari mu kantu gateretse mu icupa riteretse hasi.

Icyumba cy'imyitozo, aho bakorera imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bw'abantu bubashe kugenda neza, harimo ibyuma bitandukanye byo kwifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo amatara amurika cyane menshi y'ibara ry'umweru.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kimo amarido n'ibitanda bitemberezwa, amadirishya ariko nta muntu ukigaragaramo.

Inyubako nini cyane y'ibitaro, aha ni kwa muganga, hirya hari imodoka, ibitaro ni byiza ko byegera abaturage kuko bifasha kubarinda kuzahazwa n'indwara zitandukanye kandi bakagera kwa muganga biboroheye bakitabwaho hakiri kare.

Icyumba cyo kwa muganga kibikwamo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo utubati, udutebe dutoya bifite amapine bishobora kugurwa ahantu hamwe bishyirwa ahandi mu buryo bworoshye kubera ko bifite udupine.

Umuganga w'umukobwa unanutse uri gupima umurwayi, yambaye uturindantoki tw'umweru, agakomo k'umukara, afite ibisuko, umurwayi ari ku gitanda cy'icyuma, umukobwa yambaye itabuririya y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri, igitanda kimwe kiryamyeho umusaza, ikindi kiryamyeho umwana wambaye agakabutura, harimo ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri bambaye umweru hejuru bose, bari kugenda mu rubaraza ry'inzu ifite amadirishya menshi, yubakishijwe amabuye akomeye, kandi hanze hakaba hari ibyatsi bya pasiparumu.

Umubyeyi uryamye ku buriri ufite uburwayi, ari witabwaho n'abaganga babiri, umwe ari kuruhande rwo hino ntabwo agaragara neza, undi nigore ukiri mutoya wunamye wambaye amarinete akagira umusatsi mukeya wa afuro.

Icyanya cyubatswemo inyubako zitandukanye hasi hakaba hari ibyatsi bya pasiparumu n'indabo, umuhanda ukaba wubatswe urimo amapave, hakabaho n'igikuta gikozwe n'amabuye hejuru giteyeho sima.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, uri kunywa amazi, ufite imibiri yombi akagira ubwanwa bukeya, yambaye agakomo k'icyatsi, afite umusatsi mukeya.

Umugore uri kwinanura ufite ibisuko, akaba ahambirije akabano gasa na oranje, akongera akaba afite akandi mu mutwe k'umukara kariho akaronko k'umweru, igice cye cyo hasi ntabwo kigaragara.

Umusore ugaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'icyatsi afashe umupira wa balo mu ntoki, akaba afite isura itagaragara.

Abasore babiri bambaye amajire y'umutuku n'imipira y'umweru, bateriye umusore wambaye umupira w'umuhondo uriho gatatu y'ibara ry'umukara, yambaye ipantaro y'ubururu; ni kuruwaruje bari kumutabara, asa nk'uwagize ikibazo ntabwo ameze neza.

Ikirahuri cy'amazi n'ijage ikozwe mu kirahuri. Ijage ifashwe n'ikiganza kiri gusuka amazi, ariko nyiri ikiganza ntabwo agaragara. Biri ahantu hagaragara nk'umweru, bafite ibara ry'umweru, rivanzemo n'ubururu bukeya.

Umukobwa mutoya, usa n'uvuye mu myitozo ngororamubiri, ufite igitambara cy'amazi ku bitugu bye, akaba afite umusatsi mukeya, akaba amaso ye atagaragara, ari kunywera amazi mu icupa ribonerana, rifite umufuniko w'ubururu.

Umukobwa unanutse, ufite imibiri yombi uri kwigorora ngo akore imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura kagufi, yambaye agasengeri kagufi, afunze imisatsi miremire inyuma ntabwo agaragara isura.

Abagabo babiri umwe afite ikibazo k'imvune bamuziritse bande, undi ari imbere ye ari gushaka uburyo yamufasha azirika akandi kaguru, uwo murwayi bari kuzirika akaguru yambaye ikabutura.

Umukobwa uri kunywa amazi uvuye muri siporo, akaba yishyize igitambaro cy'umweru ku bitugu, akaba yambaye isengeri, akaba afite umusatsi mukeya, unywera amazi mu icupa rimeze nka bibelo zinyweshwa n'abana.

Umusore ugaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ufite umubiri ukomeye, ufite ibigango, akaba yambaye isengeri y'umukara n'inkweto z'umukara.

Akagare gakoreshwa n'abantu bafite ubumuga butandukanye, abavunitse, abakecuru bari mu zabukuru batagishobora kugenda n'amaguru yabo; gasunikwa n'umuntu uhereye inyuma agasunika umurwayi.

Agakoni gakozwe mu cyuma hepfo gafite utundi dukoni dushamikiyeho tune dufite udupine, dushobora kwifashishwa n'umuntu ufite ikibazo cy'imvune kuba yagenda bitamugoye cyangwa se ushaje cyane.

Umukobwa wirabura usa n'uwakomeretse, yashyizeho agashashi k'ubururu, yahinnye ishati, yambaye ipantaro y'umukara, yasize inzara ibara rya move.

Umugangakazi uri kwambara agapfukamunwa ku munwa, ufite mudasobwa imbere ye akagira n'impapuro ari kuzuza.

Agakarito kariho ibara ry'umweru n'ibara rya oranje, karimo imiti yongera intungamubiri, ifasha abafite intungamubiri nkeya mu mubiri n'amavitamine.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, ibirebire ni bigufi n'indabo hakaba hari ururabo rurimo ibara ry'umutuku hakaba ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Igitunguru cy'umutuku bita onyo hamwe n'indimu isharira, bikaba biri kumwe n'amavuta ya elayo, bikaba bifasha kuvura indwara zitandukanye.

Ahantu hari amabuye, hakaba n'amatiyo atandukanye, ay'umukara, ay'umweru, akaba ari icyatsi cy'ikibonobono kivamo ibintu bitandukanye, imbuto zacyo zivamo amavuta.

Umugore urimo gucuruza ibyo kunywa bitandukanye, imbere ye hari umugabo ushaka kumugurira w'umukiriya we, umugore akaba ari kumuvugisha, inyuma ye hari abandi bacuruzi.

Umusore wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, ukagira ikora ry'umuhondo, wambaye ipantaro y'ubururu, afashe ibyatsi bitandukanye mu ntoki, ahagaze kuri sima, inyuma ye hariyo urukuta ruriho ibara ry'ubururu.

Icyapa kiriho ikirangantego cya FDA. FDA ni sosiyete ishinzwe kureba ubudahangarwa n'ubuziranenge bw'ibyo kurya n'imiti.

Icyatsi giteye muri jaride y'umucaca, icyatsi cyitwa kapusine, ukaba ari umuti mwiza ku bafite indwara z'uruhu wacyisiga, ariko ukaba wanakinywa ku bafite ibibazo by'ubuhumekero.